Tugomba kuhira ibyo twahinze kugira ngo tubirinde izuba bityo bibashe kwera neza.

Tugomba kuhira indabo kuko ari nziza mu buzima bwa buri munsi, zifasha abantu kugira umwuka mwiza bahumeka, ndetse bakabaho neza.

Ni byiza ko buri muntu wese, iyo yahinze imyaka igiye itandukanye, agomba kuyuhira kugira ngo abashe kuyibungabunga kugira ngo bitaza kwangirika kubera kudafatwa neza.

Ni byiza kuhira indabo kuko bizifasha gukura neza ndetse bikanarinda ko zaterwa n'udukoko tuzangiriza.

Ni byiza ko mu buzima bwa buri munsi tugira abajyanama b'ubuhinzi kuko badufasha kumenya neza uburyo twahinga tukabona umusaruro ushimishije.

Ni byiza gutera umuti wabugenewe ku bimera. Kuko uwo umuti utuma udukoko tutangiriza ibyo bimera.

Ni byiza ko twuhira ibimera kuko bidufasha muzima bwa buri munsi kubaho dutekanye kandi tumeze neza.

Ni byiza igihe wahinze ibigori cyangwa amasaka ko wajya ufata igihe ukajya kureba nimba birimo bikura neza, igihe udasanze bimeze neza ni byiza gushiramo imiti.

Bimwe mu bintu bigize indyo yuzuye harimo kurya amafi kuko afasha abayariye kongera imbaraga ndetse no kurinda ubuzima bwabo.

Ntabwo ari byiza guta imyanda mu mazi kuko irayangiza cyane, bityo rero bigatuma abayanywa abatera indwara mu buzima bwabo.

Ni byiza ko twakorora amafi kuko ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, aturinda indwara kandi akaba aboneka no mu ndyo yuzuye.

Uburobyi bw'amafi ni ingenzi kuko n'abantu baturiye ibiyaga bubaheshya amafaranga menshi kuko baragenda bakaroba barangiza bakajyana ayo mafi ku isoko ndetse abayaguze bakabaha amafaranga.

Ni byiza gukora umwuga w'uburobyi kuko ugufasha kwivana mu bukene ndetse ukarinda n'umuryango wawe ndetse n'abandi bagashobora kugira ubuzima bwiza kubera ko bariye amafi afite intungamubiri.

Ni byiza ko buri funguro rya buri munsi habonekaho ifi kuko ifite intungamubiri nyinshi bityo rero zigafasha n'ubuzima bwacu kumera neza.

Ni byiza ko abantu begereye ibiyaga bakwiga uburyo bwo kuroba amafi neza batayangiriza kuko na bo bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kurengera andi mafi aba atari yagakuze.

Ni byiza ko abantu baturiye ibiyaga bibamo amafi ko bakwiga uburyo baroba ayo mafi ntibayangirize cyangwa ngo bangirize ikiyaga abamo.

Ni byiza guhinga ikawa kuko idufasha kubona amafaranga mu buryo bwihuse bityo, rero tukabasha kwiteza imbere.

Ni byiza guhinga ikawa nubwo yerera igihe kinini ariko iyo yeze usanga ikenerwa n'Ibihugu byo hanze, ibi bigafasha abayihinga kubona amasoko ndetse banagakomeza kwiteza imbere.

Ni byiza ko twakora ubuhinzi bw'icyayi, kuko budufasha gukemura ibibazo bya buri munsi, tukabona icyo kunywa, ndetse tugakoramo amafaranga menshi binyuze mu buryo butandukanye.

Ni byiza ko twiteza imbere duhinga ibihingwa tubasha kujyana mu masoko yo hanze, urugero icyayi ni igihingwa giteza abantu imbere kuko gikenerwa no hanze y'igihugu cyacu.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ingenzi cyane ku buzima bwacu. Kuko icyayi gikenerwa n'amasoko yo hanze y'Igihugu ugasanga bityo biri guteza imbere ubuhinzi bw'u Rwanda.

Ese wari uzi y'uko iyo uhinze ikawa bigufasha kwiteza imbere? Igihe ubashije kurisarura rifite umusaruro mwinshi, ugira amahirwe yo kujya kuyigurisha hanze ukabonamo amafaranga menshi.

Mu Rwanda dufite amahirwe yuko hari ubutaka, abantu bahingamo icyayi, kikagira umusaruro mwiza. Birakwiye ko duhinga icyayi kuko kidufasha kubona amafaranga, dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza kugira ibintu nyaburanga mu Gihugu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, kuko bidufasha kwinjiza amafaranga avuye mu bakerarugendo.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ingenzi mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubwo icyayi kera igihe kinini, ariko umusaruro wacyo ukenerwa n'ibihugu bigiye bitandukanye bityo bigafasha abahinga icyayi kwiteza imbere.

Ni byiza guhinga ibihingwa byaduteza imbere urugero; ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko usanga bisarura abafite amahirwe yo kwigurisha ku masoko agiye atandukanye.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko ikawa usanga ari ikiribwa gikenerwa mu masoko yo hanze y'igihugu, bityo ugasanga biduteza imbere nkatwe nk'abanyarwanda kuba duhinga icyo gihingwa.

Ni byiza guhinga icyayi kuko usanga gikenerwa n'ibihugu bigiye bitandukanye hirya no hino, ni muri urwo rwego ko duteza imbere umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi.

Ikawa ni igihingwa gitinda kwera, ariko iyo yeze usanga igira akamaro kanini cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse usanga n'ibihugu byo hanze bigenda biyikenera kuko ari ingirakamaro.

Ikawa ni nziza kuko idufasha mu buzima bwa buri munsi, iturinda indwara zigiye zitandukanye, iyo wayikoresheje neza.

Ku bantu borora amatungo agiye atandukanye, hari imiti yabugenewe usanga ku mafarumasi, igihe amatungo yawe atameze neza wakoresha iyo miti.

Mu Rwanda hari imiti babasha guha amatungo igihe arwaye akamera neza, ni muri urwo rwego ko tugana amafarumasi kugira ngo tubashe kubona iyo miti mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Ni byiza ko twakora ubworozi bw'amatungo akarusho nk'ingurube kuko zitanga umusaruro ushimishije cyane.

Inka ni itungo rifite akamaro kanini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Usanga Akarere ka Nyagatare bakunze korora iri tungo, mu rwego rwo gusigasira umuco wacu nk'abanyarwanda.

Birakwiye ko duhinga ibihingwa bigiye bitandukanye harimo nk'ibirayi tuzi ko byerera amezi atatu, iyo byeze wabigurisha cyangwa bimwe ukaba wabirya ugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye byadufasha mu guteza imbere Igihugu cyacu, harimo nk'ibiti, avoka ndetse n'ibindi.

Ni byiza kuhira imyaka kuko biyifasha kwera neza, bigatuma ikura neza, bityo rero ikavamo umusaruro ushimishije.

Mu Rwanda haje uburyo bwiza bwo guteza imbere abaturage bahinga imyaka igiye itandukanye, ni muri urwo rwego ko dushishikariza buri muturage guhinga.

Ni byiza gukora umwuga w'ubuhinzi kuko bigufasha kwihaza mu biribwa, ugasagurira n'amasoko, bityo rero ukabasha gutera imbere.

Ni byiza ko twahinga ibintu bigiye bitandukanye kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi bikaturinda ubukene kuko bidufasha no kubona ibyo kurya.

Tugomba gutera ibiti aho dutuye ndetse no mu mashyamba kuko bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu ndetse bikaba ari n'ibidukikije, bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Mu Rwanda haje uburyo bwo gutera ibiti kugira ngo birinde ibibazo bigiye bitandukanye, iyo uteye ibiti aho utuye bituma hasa neza kandi bikanaharinda isuri.

Ni byiza ko urubyiruko cyangwa se abanyeshuri, bagomba gukora ibikorwa bigamije kurinda ibidukikije, harimo gutera ibiti babifashijwemo n'abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano.

Ni byiza guhinga imboga kuko zidufasha kwirinda inzara ndetse n'ubukene mu biribwa kuko iyo waziriye ubaho neza ufite ubuzima buzira umuze.

Ni byiza ko dukora ubuhinzi bw'ibigori kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi, biduha ifu dutekamo igikoma ndetse n'ibindi.

Ni byiza gukora ubuhinzi bw'ibirayi kuko mu gihe k'inzara bikugobotora ukabona icyo urya bityo rero ukarushaho kubaho neza.

Ni ngombwa ko duhinga imboga kuko ari ingenzi ku buzima bwa buri munsi, zidufasha kurya indyo yuzuye kuko indyo yuzuye ibarwaho n'imboga.

Mu buzima bwa buri munsi tugomba guhinga ibigori, bityo rero tukanafata n'umwanya wo kubyitaho tukabyuhira, kugira ngo tubirinde kuba byakwangirika bityo rero bikazatuma bidatanga umusaruro mwiza.

Guhinga ibitoki ni byiza, kuko bidufasha kubona ibyo kurya, tugakuramo imineke, imitobe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibigori ni nziza kuko biri mu ntungamubiri turya ya buri munsi igice bibarizwamo bibarizwa mu bitera imbaraga kuko ntago wabaho utarya ibintu bikongerera imbaraga.

Gutera ibiti ni ingenzi mu buzima bwacu kuko bifasha abaturage bahinga kubona imvura ifasha ibyo bihingwa gukura neza ndetse bikanaturinda kugira isuri.

Mu Rwanda usanga abayobozi bagiye batandukanye bashishikariza abaturage gutera ibiti kuko bigira akamaro kanini mu buzima bwacu. Bidufasha guhumeka twe nk'abantu, bikadufasha no kubona imvura.

Ni byiza ko mu rwanda harimo amashyamba abamo inyamaswa zigiye zitandukanye, bityo rero ritwinjiriza amadovize aturutse mu bakerarugendo.

Ni byiza ko dutera ibiti kuko bigira akamaro kanini cyane ku buzima bw'abantu. Bifasha abantu guhumeka bigafasha ibimera kubona ibibitunga ndetse n'ibindi.

Tugomba gukora umuganda dutema ibihuru kugira ngo twirinde indwara cyanecyane nka marariya.

Tugomba gukora ubuhinzi bw'imboga kuko zigira akamaro mu buzima bwa buri munsi bityo rero bikadufasha kurinda ubuzima bwacu.

Ese waru uzi yuko ubuhinzi bw'indabo buvamo ibintu byinshi dukenera mu buzima bwacu? Hari ibyo bifashisha bakuramo imiti batanga ku bigo nderabuzima kugira ngo abantu bakire.

Tugomba kugira uturima tw'igikoni, kuko iyo ugafite uhingamo imboga z'ubwoko bwose, bityo rero bigafasha umuryango wawe kwiteza imbere mu biribwa.

Ni byiza guhinga ibihingwa bicye bitandukanye, mu turima tw'igikoni. Kuko bidufasha kubona, ibiryo by'intungamubiri harimo dodo, ibitunguru, ndetse n'amashu.

Ni byiza guhinga uturima tw'igikoni, ugahingamo karoti, inyanya, ibitunguru kuko iyo byeze bigufasha kurya indyo yuzuye.

Ni byiza ko twahinga imboga kuko zidufasha kwihaza mu biribwa ndetse zikaba ari na kimwe mu bintu bigize indyo yuzuye bityo rero turabashishikariza kuzihinga ndetse no kuzigaburira abana buri munsi.

Ni byiza guhinga inanasi kuko zivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakoramo imitobe ifasha abantu gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibindi.

Tugomba kuhira imboga kuko bituma zikora neza ndetse zikaba zifite n'intungamubiri, zihagije mu gihe cyo kuzirya.

Ni byiza guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye byaduteza imbere harimo nk'imboga rwatsi, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi.

Ni byiza guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo nk'amatunda, ibinyomoro ndetse n'ibindi kuko bifasha umuntu kwiteza imbere, igihe byeze.

Ni byiza guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye mu turere twacu, kuko bituma igihugu gisa neza ndetse n'aho dutuye hagatera imbere.

Mu buhinzi bw'indabo ni ingenzi aho dutuye hose kuko indabo wazisarura ukazigurisha ku yandi masoko ukabonamo amafaranga ukoresha witeza imbere.

Ubuhinzi bw'indabo ni bwiza kuko buvamo amafaranga menshi cyane kubera ko izo ndabo ziba zikunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni byiza ko iyo ufite umushinga uri gukora, ugomba kuwushyira hanze kugira ngo uzabone abakiriya ndetse n'abandi bashaka kwiga uwo mushinga bazakwigiraho.

Ni byiza ku bantu bakora umwuga w'ubuhinzi, ko bagakwiye gukoresha uburyo bwiza bwo kuhira imyaka yabo, kugira ngo ibashe gukura neza.

Ni byiza ku bantu bakora umwuga w'ubuhinzi, ko bakoresha uburyo bwiza bugezweho bwo kuhirira ibihingwa kugirango bibashe gukura neza.

Ni byiza ko igihe dukeneye ko imyaka yacyo yera neza tugomba gukoresha uburyo bwo kuyuhira kugira ngo ibashe gukora neza ndetse no gutanga umusaruro mwiza.

Ni byiza ko igihe duhinze ibihingwa bigiye bitandukanye twajya tubyuhirira kugira ngo bikore neza kandi biduhe umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'imboga ni bwiza kuko zidufasha kurya neza tukarya indyo yuzuye bityo bikarinda ubuzima bwacu tukabaho neza twishimye.

Igihe twahinze ibihingwa ni byiza ko tubyitaho tukabyurira kugira ngo bikomeze bitohagire kandi bikure neza.

Ni ngombwa ko tugomba kuhira imboga zigiye zitandukanye; urugero nk'amashu bituma akura neza bityo rero agatanga amafaranga ku bayahinze.

Imisozi ni myiza kuko igaragaza uko ifi iteye, ndetse n'agace iherereyemo ukaba wagasobanukirwa igihe utahazi.

Ni byiza ko twahinga urutoki kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi, kwihaza ndetse no kwiteza imbere mu biribwa.

Imisozi ni myiza, kuko igaragara neza, ndetse bikaba akarusho iyo hateyeho ibiti.

Ni byiza ko abantu bahinga ahantu hatereye cyane, bagakwiye kujya bakora amaterasi kugira ngo bibafashe kwirinda isuri.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza kuko budufasha kubona amafaranga ndetse izo nkoko zigatera amagi tukayagurisha cyangwa se tukayarya tukagira ubuzima bwiza.

Ni byiza gukora ubworozi bw'inkoko kuko zitanga umusaruro mwinshi, urugero nk'iyo ziteye amagi turayagurisha tugakuramo amafaranga bityo rero tukiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, usanga inkoko ziduha umusaruro w'amagi ndetse n'ifumbire dukoresha tujyana mu bihingwa kugira bikure neza.

Ni byiza korora amatungo kuko bifasha imiryango kubona ifumbire bakoresha mu gihe cy'ubuhinzi bityo bakabona umusaruro mwinshi cyane.

Ni byiza kororora amatungo agiye atandukanye, harimo ingurube ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, bityo rero bifasha ingo nyinshi kubona ifumbire yo guhingisha bakiteza imbere.

Ni byiza kororera inkwavu mu kibuti kuko bizifasha kugira ubuzima bwiza ndetse bikanazirinda kuba zakwangirizwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ubwarozi bw'inkoko ni bwiza, kuko zivamo amafaranga menshi, iyo uzijyanye ku isoko zigurwa ku giciro kiri hejuru.

Ni byiza ko twakorora inkoko tukazigaburira neza kuko bituma zigira umusaruro ushimishije usanga zitera amagi menshi cyangwa se tukazigurisha tugakuramo amafaranga.

Inka ni itungo riduha umusaruro mwinshi ugiye utandukanye, urugero itanga umusaruro w'amata, igatanga ifumbire abantu bifashisha bahinga bityo ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza.

Akarere ka Nyagatare usanga abaturage baho bakunze korora inka. Ugasanga bakunze kugira ifumbire ndetse n'amata, ibi bigatuma bakomeza gutera imbere.

Ubworozi bw'ingurube n'igenzi kuko zitanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya, kandi ibi bikadufasha gukomeza kwiteza imbere.

Ni byiza guhuriza hamwe amatungo agiye atandukanye kugira ngo aduhe umusaruro mwinshi, ushobora guhuriza hamwe inka zirenze imwe kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ugiye utandukanye.

Ni byiza korora inkoko kuko zigira umusaruro mwinshi, mbere na mbere ziduha amagi, tukayagurisha, tugakoramo amafaranga yo gukemura ibibazo byacu.

Ni byiza ko mu Rwanda twagira ibikoresho by'ubuhinzi bw'ikoranabuhanga, kuko bifasha abahinzi guhinga vuba ndetse bakabona iterambere rirambye.

Ni byiza ko buri munyarwanda aho ari ho hose yagira itungo yaba yoroye, urugero nk'ingurube kuko zifasha kororoka cyane ndetse no kubona ifumbire.

Ni byiza ko twakorora amatongo agiye atandukanye, harimo inka ndetse n'ibindi, tukanazishakira ubwatsi kugira ngo zishobore gukura neza.

Akarere ka Nyagatare usanga abaturage benshi borora inka kubera ko inka zigira umumaro munini mu buzima bwacu. Ziduha umusaruro w'amata, zikaduha ifumbire ndetse n'ibindi bidufasha mu buzima bwacu.

Tugomba guhinga imbuto kuko ari nziza mu buzima bwa buri munsi ndetse zikarinda indwara, zikanafasha mu buzima kubaho neza utekanye.

Ese wari uzi ko guhinga ibigori bitanga umusaruro mwinshi ndetse bikanagira akamaro mu buzima bwa buri munsi?

Ni byiza gukora ubuhinzi bugiye butandukanye, urugero nko guhinga ibigori kuko bifasha mu buzima bwa buri munsi kwihaza mu biribwa bityo rero tukarwanya imirire mibi ndetse n'inzara.

Tugomba gukora ubuhinzi bw'ibigori kuko ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, bitanga umusaruro mwinshi kuko ni ho havamo ifu y'igikoma ndetse tukanabikoresha mu bundi buryo bityo rero tugashobora kwiteza imbere.

Ni byiza ko tugira abavuzi b'amatungo kuko bafasha mu buzima bwa buri munsi kuvura aya matungo igihe yarwaye, bityo rero agashobora gutanga umusaruro.

Ni byiza ko iyo itungo rirwaye cyangwa se rigizeho ikindi kibazo ugomba guhamagaraho umuveterineri akaza akagufasha kurivura bityo rero rikongera rikaba rizima.

Mu gihe amatungo yacu yarwaye tugomba kwegera abashinzwe kuyavura bakaza bakayatera imiti ndetse bakayaha n'ibinini kugira ngo abashe gukira.

Mu Rwanda tugira inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye zikurura ba mukerarugendo. Urugero: ingwe ni inyamaswa itangaje iyo uyirebye ni yo mpamvu usanga abantu benshi baba bafite amatsiko yo kujya kuyireba.

Mu rwanda hari inyamaswa zigiye zitandukanye, zibereye ijisho, zikunda cyane gukurura abakerarugendo, bakaza kuzireba.

Mu Rwanda ni cyo gihugu usangamo inyamaswa zigiye zitandukanye, zibasha gukurura ba mukerarugendo. Urugero nk'inzovu, ingagi ndetse n'izindi.

Mu Rwanda dufite inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, zibasha gukurura ba mukerarugendo, harimo inzovu, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.